Umuhanda munini hakurya y'umuhanda hari inzu nini icururizwamo ibintu bitandukanye hari icyapa cy'amata n'icyapa gicuruza farumasi n'imiti itandukanye.

Abagabo n'abagore bari mu nama nyunguranabitekerezo. Bicaye ku ntebe z'umweru kandi bose barakurikiye baratuje. Imbere hari abayobozi babo kandi hari na televiziyo nini babasha kubirebaho

Umugore wambaye ishati y'umutuku wambaye amarinete afite mikoro mu ntoki ze arimo arabwira abaturage ndetse n'abandi bayobozi batandukanye bitabiriye inama rusange y'abaturage yabaye.

Umugore wambaye ikanzu y'ubururu n'isaha ku kaboko, ahagaze imbere y'abantu arimo arasobanura umushinga we, ndetse n'icyo uzageza ku banyarwanda muri rusange.

Inama y'abayobozi ya mayindifuru thinkasi. Bakaba bicaye hamwe, kugira ngo basuzume uburyo bashobora kuba bagera kuri byinshi bose hamwe bafatanyije. Bagiye bicara mu byiciro, ku meza agiye atandukanye.

Abagenza amaguru mu gihe bambukiranya umuhanda, bakomeje guhabwa agaciro kabo bakambuka nta nkomyi, ibinyabiziga bigahagarara bakambuka neza.

Umugabo ufite mikoro wambaye ishati irimo uturongo tw'umweru n'ubururu, wambaye amarinete arimo aravuga kandi inyuma ye hari abasirikare n'abaturage bamuteze amatwi.

Abagabo batandukanye n'abagore bose bicaye mu myanya yabo, imbere yabo kandi hari amazi cyangwa se ji bashobora gusomaho, bari mu nama nyunguranabitekerezo kandi bateze amatwi.

Abagabo n'abagore bari mu nama rusange nyunguranabitekerezo bakaba bicaye bose batuje kandi barakurikiye bambaye neza abagabo bambaye amakote ndetse n'abadamu bambaye amakanzu meza.

Umugore wambaye imyenda y'imihondo, wateze igitambaro mu mutwe, yambaye n'amarinete, afite mikorofone, kandi ari kuri pulatifomu, arimo aratanga imbwirwaruhame ye muri tafisa rimitedi.

Umugabo uri kuvugira imbere y'abantu, afite mikoro mu ntoki ze, yambaye ishati ijya gu gusa ubururu ndetse n'ipantaro ya kaki n'umukandara w'umukara, imbere ye hari abayobozi ndetse n'abaturage bamuteze amatwi.

Abagabo, n'abagore, bambaye neza cyane, bari mu nama nyunguranabitekerezo, hari kandi n'abantu bo muri Aziya, abagore babiri bo muri Aziya, bambaye neza, kandi bafite ikaramu, ndetse n'ikayi mu ntoki.

Umunara muremure cyane w'itumanaho uri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru bigaragara ko ari uwa eyateri hahagaze abatekinisiye bane bigaragara yuko bari gusobanurira aba bantu uko uyu munara ukoreshwa aha bantu bari gusobanurira bambaye amajire y'umutuku.

Abagabo n'abagore batandukanye, bicaye mu nama nyunguranabitekerezo, ikigo cy'igihugu RGB, kikaba ari cyo cyateguye iyo nama, kugira ngo bigire hamwe uburyo iterambere ry'igihugu ryakomeza.

Abaturage biganjemo urubyiruko, bicaye ku meza manini cyane, afite ibara ry'icyatsi kibisi, bose bambaye imipira y'umweru ndetse n'umukara, barimo kuganira.

Abagabo n'abagore bicaye ku meza magari cyane akozwe mu giti, imbere yabo hari n'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, bari mu nama nyunguranabitekerezo y'uburyo bateza imbere igihugu.

Abagore batandukanye bari mu nama nyunguranabitekerezo, abicaye imbere bombi bambara amarinete kuko barwaye amaso, ubanza yambaye ikanzu y'umukara kandi afite telefone.

Umuyobozi ufite mikoro uhagaze imbere y'abaturage bicaye mu gishararaga kugira ngo babashe kuba bakurikirana neza inama uyu muyobozi ari bubahe ndetse n'ibitekerezo by'ingenzi ari bubagezeho.

Kigali yacu, kigali icyeye. Inama yahuje abayobozi b'umujyi wa kigali, harimo umugore umwe ndetse n'abagabo babiri. Bombi bicaye imbere y'ameza akozwe mu giti, buri wese afite mudasobwa imbere ye. Kugira ngo abashe kwandikamo iby'ingenzi muri iyi nama.

Abagabo n'abagore bose bicaye mu myanya yabo, umugore ubanza yambaye amarinete kandi afite mudasobwa imbere ye, arimo kurebamo bimwe mu bitekerezo by'ingenzi yateguye kugira ngo yungurane ibitekerezo.

Abagabo batatu n'abagore babiri, bicaye ku meza amwe ariho igitambaro cy'umweru n'intebe bicayeho ni umweru. Bose bafite mudasobwa imbere yabo bari gukoresha.

Abagabo bari mu nama, bicaye imbere ya mudasobwa zabo kugira ngo babashe kuganira ku bibazo bigiye bitandukanye byugarije iterambere ry'igihugu cy'u Rwanda.

Abagore benshi n'abagabo benshi bicaye ku ntebe bari mu nama batumbiriye imbere yabo bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibindi bintu byo kunywa imbere yabo hari amamashini ndetse hari n'indangururamajwi zibafasha kumvikana.

Abagore batandukanye bakaba bicaye mu nteko, bafite bose ikaramu ndetse n'impapuro imbere yabo kugira ngo bandikeho iby'ingenzi bari buze kuvuga, bicaye ku ntebe z'imikara kandi bombi bambaye amarinete.

Abayobozi batandukanye, abayobozi ba za minisiteri, abaminisitiri, bose bahuriye hamwe mu nama yiga ku iterambere ry'igihugu kandi baricaye baratuje, ku meza agiye atandukanye.

Abagabo n'abagore bose bicaye mu myanya yabo, bakaba batuje kandi buri wese afite mudasobwa imbere ye. Bari mu nama nyunguranabitekerezo yiga ku iterambere rirambye kandi rigezweho ry'Umujyi wa Kigali ndetse n'Igihugu muri rusange.

Abagabo n'abagore batandukanye bambaye neza kandi bicaye mu myanya yabo, bakaba bari mu nama nyungurana bitekerezo buri wese afite impapuro ndetse n'ikaramu imbere ye.

Abagabo batatu bari mu nama irimo abandi benshi, abo b'imbere bakaba ari abakozi kandi bambaye amakote bose, ubanza yambaye ikote ry'ubururu, undi yambaye ikoti rya kake, undi yambaye ikoti ry'umukara.

Abagabo n'abagore bicaye batuje. Imbere yabo hari imeza iriho indabo, umugabo wicaye ku ruhande ari kumwe n'umugore we kandi hari n'umusirikare.

Umugore wambaye ikanzu irimo amabara y'umweru n'ay'umukara, afite ikaramu mu ntoki ze ndetse n'impapuro imbere ye. Yitabiriye inama ngaruka mwaka yiga ku buryo ubukungu bw'igihugu bwakomeza kuzamuka.

Africa food systems forum bibiri na makumyabiri na kane ni inama ngaruka mwaka, yiga ku buryo umugabane wa Afurika ushobora kongera ingano y'ibyo kurya, bityo abaturage babyo ntibabashe kuba bakicwa n'inzara.

Umugore umwe wicaranye n'abagabo batatu ndetse n'undi mugore uri ku ruhande. Bicaye ku meza magari manini kandi buri wese afite urupapuro imbere ye ndetse n'ikaramu kugira ngo babashe kuba bakandika ibintu by'ingenzi kuko bari mu nama.

Abagabo n'abagore bambaye neza, bicaye mu ntebe, bakurikiye inama rusange barimo. Bari kuzirikana ibitekerezo by'ingenzi byavugiwemo, kandi bafite aho bari kubyandika, haba mu ikayi cyangwa muri telefone.

Abagore babiri ndetse n'umugabo umwe, bose bari mu nama yiga ku buryo Umujyi wa Kigali ushobora kuba umugi usa neza kandi uteye imbere, bakaba bafite amakayi ndetse na mudasobwa imbere yabo.

Abagabo babiri bari kumwe n'umugore bose bakaba bari mu nama ya CEO foramu fositingi kondagitingi imvayironomenti foro bizinesizi tu terede, ikaba ari inama ngarukamwaka ibaho kugira ngo higwe uburyo buzinesi zakura.

Abaturage bazindutse kandi bicaye mu itente, basa neza kuko bambaye neza, bicaye ku ntebe z'umweru za purasitike, kandi bose barakurikiye kugira ngo baze kumva ibitekerezo by'ingenzi.

Urujya n'uruza rw'abantu benshi bo mu ngeri zose baremye isoko ryubakiye ryiganjemo ibikomoka ku buhinzi birimo amacunga, indimu, ibinyomoro, kokombure, imineke n'ibindi byinshi hagamijwe guteza imbere ibikomoka ku buhinzi

Abagabo n'abagore bose bambaye neza, bakaba bari mu nama rusange. Bicaye hamwe kandi buri wese afite imashini, mudasobwa imbere ye, arimo gukurikiranamo umurongo w'ibyigwa.

Inama rusange umutwe w'Abadepite bose bateranye, buri wese afite mikoro imbere ye ku buryo ashobora kuvuga igitekerezo cy'ingenzi yateguye, umugabo wicaye imbere yambaye ikote ry'ubururu na karuvati y'ubururu.

Umuyobozi ufite ijambo, akaba afashe mikoro mu ntoki ze, yambaye ishati irimo utubara tw'umutuku ndetse na kake, arimo arasobanurira neza abaturage cyangwa se abanyeshuri muri rusange, uko ibintu bigomba gukorwa.

Garagaza impano yawe utsindira irarenga miliyoni, rikaba ari irushanwa ryateguwe na Rwanda Revenue Authority, ririmo gushushanya, kuririmba, ubusizi, kubyina, gusetsa ndetse n'izindi mpano.

Umugabo wambaye ishati y'umutuku, ufite imashini imbere ye na telefone iteretse ku meza ye, mu mumashini ye harimo urubuga rw' irembo kandi hari serivisi zitandukanye arimo kwisabira.

Uburyo bwihuse kandi bworoshye ushobora kujya kuri interineti ukareba ikigo nderabuzima kandi kinafite uburyo bwa farumasi niba hari imiti ihari.

Serivise zitandukanye zitangirwa kuri irembo toti gove, hakaba hariho ibyangombwa ndetse n'ibindi byinshi bigiye bitandukanye byose wakenera, ukoresheje irembo.

Irembo yazanye uburyo bushyashya bukwigisha kuba wakisabira serivisi zigiye zitandukanye, bwitwa byikorere. Ushobora kuba wafungura konti yawe mu Irembo, maze nawe ukajya ubyikorera.

Itariki ntarengwa ni uyu munsi menyekanisha unishyura igihembwe cya kane cy'ipatante uyu munsi, bukaba ari ubutumwa bwa Rwanda reveni otoriti kugira ngo abantu bose bagomba gusora birinde ibihano by'ubukererwe.

Umunara muremure cyane wubakiye inzu kandi risize ibara ry'icyatsi kibisi. Ukaba utanga interineti yihuse cyane kandi abaturage bakabasha guhamagara nta nkomyi.

Ikipe ya Bayani munike yo mu Budage ikina irushanwa ryitwa bondesiriga, bakaba bifatanyije kandi bakaba ari abafatanyabikorwa ba viziti Rwanda.

Ikigo cy'igihugu Rura, kikaba kirimo kiragira inama abantu bose y'uko bagomba kwibaruzaho simukadi. Ushobora gukanda akanyenyeri ijana na makumyabiri na gatanu urwego, ubundi ukareba niba simukadi yawe ihuye n'irangamuntu yawe.

RDB, kikaba ari ikigo cy'igihugu gishinzwe iterambere. Kikaba gifite urubuga rwemewe ushobora kuba wabarizaho amakuru yose waba ukeneye mu gihe ushaka ubuyobozi cyangwa se inama zitandukanye.

Ikigo cy'igihugu Rura, Rwanda yutiliti rigilatori otoriti, kikaba cyatangaje y'uko hari serivisi zigiye zitandukanye nshyashya rwongerewe kuba rwatanga.

Umunara muremure cyane utangirwaho amarezo ndetse na serivisi za interinet kugira ngo abaturage babashe kuba bagira internet nziza kandi babashe gukominikana n'abandi.

Umugabo wambaye umupira w'umukara, uri imbere ya mudasobwa. Ari kumwe n'undi wambaye umupira w'icyatsi, harimo uturongo tw'umweru wambaye n'ingofero. Akaba arimo kumufasha kugira ngo abone serivisi akeneye.

Icyapa cyerekana y'uko hano hari Wifi y'ubuntu, kikaba kimanitse ku rukuta, kiriho ikirango cya wifi, iri mu ibara ry'ubururu, kandi akapa gakozwe mu ibara ry'umweru.

Uburyo bworoshye kandi bwizewe, umuntu ashobora kuba yakishyuramo serivisi zigiye zitandukanye, urugero nko gutanga umusoro. Akabikora kandi yibereye iwe, akoresheje uburyo bw'ikoranabuhanga na terefone ye cyangwa mudasobwa ye.

Umunara muremure cyane wa MTN utanga netiwaka ndetse na sinyari, kugira ngo abaturage bahaturiye n'abandi batuye kure cyane, babashe kubona interineti nziza kandi banahamagare neza bumvikana.

Umunara muremure cyane w'itumanaho uri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru bigaragara ko ari uwa eyateri hahagaze abatekinisiye bane bigaragara yuko bari gusobanurira aba bantu uko uyu munara ukoreshwa aha bantu bari gusobanurira bambaye amajire y'umutuku.

Umunara muremure cyane utanga konegisiyo urugero rezo zo guhamagara, ndetse ukaba unatanga interineti yihuta cyane bityo abaturage bagakoresha interinete na rezo bitabagoye.

Amabwiriza agenga abatanga serivisi za mobayiro mani, mu rwego rwo kurwanya corona virus, akaba ari amabwiriza yari yaratanzwe mu gihe cya covid cumi n'icyenda, kugira ngo hirindwe ihererekanywa ndetse n'ikwirakwizwa rya corona virus.

Icyumba gikoreshwa mu kugira ngo abanyeshuri basomeremo kandi bigiremo, buri wese ufite imashini ashobora kuyizana akagira ibyo akora bitewe n'uko haba hari interinete y'ubuntu.

Icyapa kinini cyane kizengurutswe n'ibara ry'ubururu kikaba ishusho ari mpande enye kandi kikaba gishushanyijeho y'uko wifi ya hano ari ubuntu.

Umunara muremure cyane usize amabara y'umutuku ndetse n'umweru, ukaba warashyiriweho kugira ngo utange interineti kandi abaturage babashe guhamagara neza nta nkomyi.

Umunara muremure utanga interinet ndetse na rezo zo guhamagara, ku buryo abaturage babasha guhamagara nta nkomyi kandi bagakoresha na interinet igenda neza nta kibazo.

Gaze ikoreshwa mu ngo. Hitamo icupa bitewe na gaze ukenera kandi ugenzure ko barikugejejeho rihagaze kandi ritangiritse. Buri gihe ujye ubika icupa rya gaze rihagaze.

Umunara munini cyane, ukaba utanga sinyari zigiye zitandukanye, higanjemo iza interinete ndetse no guhamagara mu buryo busesuye. Ukaba uri hafi y'inzu isize irange ry'umuhondo.

Amapoto maremare kandi manini cyane y'umuriro w'amashanyarazi, akaba aba atwaye insinga zirimo umuriro w'amashanyarazi, kugirango ubashe kuba wagera kure cyane, aho abaturage baba batuye ari honyine, kandi bakaba bibera mu misozi.

Amapoto y'amashanyarazi ajyana umuriro mu ngo zigiye zitandukanye, hari igipangu cyubakishije amatafari ahiye kandi hari n'inzu ifite amabati y'umutuku.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi iriho insinga zijyana umuriro mu baturage. Mu muhanda harimo ikamyo zitwaye ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Hari kandi n'imodoka z'abantu ku giti cyabo na moto.

Urujya n'uruza rw'abaturage bari kujya muri gahunda zabo zitandukanye, ipoto y'umuriro w'amashanyarazi iteye aho abaturage baca bagiye muri gahunda zabo, hakurya y'umuhanda hari aho Simba ya Kimironko ikorera.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi hariho insinga zijyana amashanyarazi mu ngo zigiye zitandukanye, riteye mu gasantire kaberamo imirimo y'ubucuruzi myinshi igiye itandukanye.

Igipangu gifite numero ikiranga, nimero kane, kikaba gisize ibara ry'icyatsi kibisi, harimo inzu ifite antene ya CANAL PLUS, kandi ifite amabati y'umutuku.

Turansifa iteretse ku ipoto y'amashanyarazi ikaba ijyana umuriro ikawongera ndetse ikanawugabanya mu gihe bibaye ngombwa, hanyuma ikaba iteye hafi y'umuhanda kugira ngo igire umutekano.

Ipoto y'umuriro w'amashanyarazi, ririho insinga zijyana umuriro mu baturage aho batuye muri karitsiye. Rikaba riherereye mu ishyamba hari ibiti byinshi byifashishwa mu kuyungurura umwuka mwiza duhumeka.

Umuhanda nyabagendwa, ufite ibyapa byo mu muhanda, bimenyesha y'uko imbere gatoya hari ikorosi bityo umushoferi agomba kugenda gahoro yitonze bikamurinda impanuka.

Igipangu cyubakishije amatafari ahiye, gifite urugi rusa icyatsi na nimero ikiranga ariyo ijana na makumyabiri na gatandatu, hanze yacyo hari ipoto y'umuriro w'amashanyarazi.

Uruganda rufata kandi rugatunganya ingufu zishoboka zikomoka ku mashanyarazi Rege icyumba cyabo babikamo amashanyarazi kugira ngo abashe kuba yatunganywa neza agere ku baturage.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibyapa biyobora abatwaye ibinyabiziga ndetse n'ibibuza, icyapa cya mbere kiri mu ishusho y'uruziga n'inyuguti ya pi iciyemo umurongo, bikaba bigaragaza yuko bitemewe guparika umwanya munini.

Amafaranga y'amanyamahanga aya mafaranga ni ininote y'igihumbi yo muri Nijeriya iyo ushaka ko bayikuvunjira mu madorari baguha ahwanyije neza agaciro kayo.

Umuhanda nyabagendwa urimo urujya n'uruza rw'ibinyabiziga bigiye bitandukanye kandi harimo imodoka z'abantu ku giti cyabo bagiye mu kazi, hari kandi na moto zitwaye abagenzi kuri moto kandi hari n'ibyapa biyobora abatwaye ibinyabiziga.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, urugero nk'iby'abantu ku giti cyabo byaba ibiri mu muhanda, hakurya y'umuhanda hari parikingi na yo irimo ibininyabiziga, kandi hari na kiyosike ya MTN mobile money.

Ibitaro na serivisi zigiye zitandukanye abantu bashobora kuba bahasanga, hari icyapa kinini kiyobora abantu bitewe na serivisi zitandukanye baba bagiyemo bakabasha kubona aho zikorera batarinze kuba bazenguruka.

Koridoro itegerererezwamo kandi ikanyurwamo n'abaje mu bitaro. Bitewe n'uko bangana cyangwa se na serivisi bashaka, bashobora kunyura muri ino koridoro, cyangwa se bagakoresha iyindi.

Inzu isakaje amabati y'umutuku ifite icyuma gishyushya cyangwa se kigakonjesha mu nzu, hafi yayo hari jaride iteyemo utwatsi tunogeye ijisho.

Imbangukiragutabara zigera muri esheshatu zose ziri ku murongo kugira ngo zitegure kuba zajyana abarwayi mu gihe bibaye ngombwa kandi zibashe kuba zanatabara ubuzima bwabo.

Isange wani sitopu senta, Kacyiru ni ho ikorera. Hari parikingi ushobora kuba waparikamo imodoka mu gihe uje kwaka serivisi no gutanga amakuru atandukanye.

Abagabo n'abagore bombi barimo kwarura kandi bambaye neza ibipfuka imisatsi, ibipfuka umunwa, kandi bose bambaye imyenda y'imyeru ifite isuku rwose.

Kizimyamwoto iteretse ku rukuta, ikaba ifite ibara ry'umutuku, ikaba ishinzwe kuzimya ndetse no gukumira inkongi y'umuriro kugira ngo itangiza ibintu byinshi bitandukanye.

Ibitaro bifite amarembo abonerana ku buryo ushaka kureba ibiri kuberamo imbere, bikaba biherereye ku muhima kandi bifite parikingi nini cyane ishobora kujyamo imodoka nyinshi.

Parikingi nini cyane ifite n'amatara ayimurikira, ikaba iherereye mu mujyi wa Kigali, iparitsemo imodoka nyinshi cyane icyarimwe, harimo iz'abantu ku giti cyabo n'izindi.

Polisi y'igihugu cy'u Rwanda ikaba izanye imfungwa mu cyumba kiburanishirizwamo imanza; imfungwa bazanye yambaye ikote ry'umukara, karuvate y'umutuku ndetse yambaye neza agapfukamunwa.

Umugabo wambaye ikote risa gere ndetse na karuvate y'umukara n'ishati y'umweru. Yambaye neza agapfukamunwa. Ari hagati y'abamwunganira mu mategeko, bambaye amakanzu y'imikara, afiteho akantu k'umweru imbere.

Icyapa kinini cyane, kivuga inkiko gacaca. Ukuri kurakiza! Kikaba cyaramenyeshaga abaturarwanda bose yuko, bagomba kwitabira inkiko gacaca, bakavuga ukuri kwabo.

Inyubako nziza rwose igeretse rimwe ikodeshwa igihumbi magana arindwi y'idolari buri kwezi ikaba ari inyubako ifite ibyumba bitanu byo kuraramo, ndetse n'ubwogero butanu, rero ni inzu nziza cyane ushobora kuza ugakodesha hanyuma ukabaho neza, iherereye i Kigali kibagabaga.

Etajeri nini cyane icururizwamo, ikaba irimo ibikoresho bigiye bitandukanye, byiganjemo ibyo muri papeteri ndetse n'ibindi bikoreshwa mu bwubatsi, bikaba byose biri muri etajeri imwe.

Igazeti ya leta yo ku wa kane z'ukwa munani bibiri na makumyabiri na gatatu by'umwihariko mu ngingo yayo ya mbere ivuga inkomoko y'ubutegetsi bw'igihugu.

Abagore benshi n'abagabo benshi bicaye ku ntebe bari mu nama batumbiriye imbere yabo bafite amazi yo kunywa ndetse n'ibindi bintu byo kunywa imbere yabo hari amamashini ndetse hari n'indangururamajwi zibafasha kumvikana.

Inzu ifite amabati y'umutuku agaragara nkaho ashaje ikaba ifite antene ya kanari purisi kuburyo bareba umupira uko babishatse iri mu gipangu kiri munsi y'umuhanda

Ingingo ya gatanu mu igazeti ya leta, kuba bitabangamiye ubwigenge bwa komisiyo, gutanga ibitekerezo kuri raporo zikorwa ku Rwanda ku burenganzira bwa muntu, ingingo ya gatandatu gukora no gusakaza raporo.

Igipangu kirekire kinini cyane kandi gifite senyenge, kikaba gicumbikiye imfungwa n'abagororwa batandukanye kandi kikaba kibafasha kugira ngo kibashyire ku murongo bongera basubire muri sosiyete bameze neza.

Gereza nkuru ya Nyarugenge, abagabo n'abagore batandukanye bari gusohoka muri gereza nkuru ya Nyarugenge, bakaba bavuye muri gahunda zigiye zitandukanye, urugero nko gusura ndetse n'izindi nyinshi zishobora kubajyanayo.

Umugabo ufite ubwanwa bukeya kandi w'inzobe akaba yambaye ikanzu nini y'umutuku ifiteho amabara y'umukara n'ay'umweru, yambariyemo ishati nini y'umweru na karuvati.

Abaturage bicaye mu nama, bari kumwe n'abunzi ndetse n'abandi bayobozi babo kugira ngo baganire, kandi bungurane ibitekerezo ku mibereho myiza yabo muri rusange.

Umugore wambaye ikanzu y'iroze ndetse n'amarinete. Uyu mwambaro w'iroze ugaragaza yuko ari imfungwa, cyangwa se akaba ari umugororwa. Ari kumwe n'umucungagereza urimo kumukuraho amapingu.

Iyo abayobozi basoje inama bari barimo hari ahantu habugenewe bahurira bakiga ku myanzuro yafashwe ndetse bakanatanga n'umucyo ku bibazo byagiye bigaragazwa ,aho hantu iyo bahageze baraniyakira.

Umuhanda nyabagendwa, urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, higanjemo abamotari bose bahagaze ku murongo akanya gato, bahagaritswe n'umukozi ubifitiye uburenganzira, umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda.

Ibikoresho bitandukanye bikoreshwa mu bwubatsi no mu yindi mirimo igiye itandukanye. Bikaba byegetse iruhande rw'inyubako, hafi yabyo hari imodoka y'umukara ikinguye imiryango.

Inzu igeretse inshuro enye, ikoreramo polisi y'u Rwanda kandi ikaba isize amarangi y'ubururu bwijimye ndetse n'umweru, hafi y'aho hari ibiti ndetse na jaride nziza.

Umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda mu nzira nyabagendwa, ari guhagarika ibinyabiziga kugirango ibindi bibanza bitambuke, mu binyabiziga byahagaritswe harimo moto na bisi zitwara abantu.

Kizimyamwoto zigiye zitandukanye, harimo iy'umweruru izimya ahantu hanini, harimo iy'umutuku izimya ahantu hayegereye. Hari kandi na kizimyamwoto nini cyane y'umupira, ishobora kugera muri metero mirongo itanu.

Nta muntu utagira inzozi zo kuba mu nzu nziza kandi yubatse neza iyo nzu iri mu mujyi wa kigali uyishaka ni igihumbi kimwe cy'idolari gusa wishyura buri kwezi maze nawe ukibera ahantu heza hatekanye.

Icyumba cy'inteko ishinga amategeko, kiberamo inama zigiye zitandukanye z'abadepite ndetse n'abasenateri. Buri wese akaba afite umwanya we wo kwicaramo n'imashini imbere ye, imwibutsa ndetse akanandikamo ibintu by'ingenzi byavugiwemo.

Abaturage babyukiye mu bikorwa byo kwamamaza ishyaka ryabo bakunda cyane FPR inkotanyi, bafite amadarapo y'ishyaka kandi bambaye n'imipira iri mu kirango cy'ishyaka FPR.

Aha ndahabona ibintu bigiye bitandukanye aho ndimo kubona abantu bagiye batandukanye, imodoka ndetse ndikubona moto zigiye zitandukanye, kandi nkaba ndimo ndabona na rifani zigiye zitandukanye, ndetse kandi nkaba ndimo kuhabona n'umuhanda wa kaburimbo.

Abagabo ndetse n'abagore bose barimo kurahirira imirimo mishya bagiye guhabwa. Bose bafashe ku idarapo n'akaboko kabo k'ibumoso. Hanyuma ak'iburyo ko karazamuye kugira ngo bose babibone.

Umukandida perezida Mpayimana Philippe akaba ari mu bikorwa bye byo kwiyamamaza, yafashe ifoto y'urwibutso izagaragaza yuko yigeze kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu.

Abagabo, abakobwa, abagore ndetse n'abandi batandukanye, bose bari mu gikari cy'inzu isize amarangi y'umuhondo ifite inzugi zisa kaki kandi bose baje mu bikorwa bimwe.

Abanyamuryango b'ishyaka Green Party bambara imipira y'icyatsi, higanjemo abagore kandi bari mu nama kugira ngo barebe uburyo bakamamaza ishyaka ryabo bityo rikabona amajwi.

Ikiganza cy'umuntu uvuye kuba yatora abakandida b'ishyaka rizayobora ku butegetsi cyangwa se abakandida b'ishyaka runaka bazajya mu mubare w'abadepite.

Abagabo n'abagore bari mu nama nyunguranabitekerezo, bose bafite mudasobwa, imashini compiyuta imbere yabo, kugira ngo bareberemo imirongo y'ibyigwa, umugabo uri imbere yambaye ikote ry'icyatsi, akaba yambaye na karuvati y'umutuku.

Umugore wambaye amaherena y'umweru, yambaye n'ishanete mu ijosi kandi yambaye ikanzu nini y'umweru, ateze n'igitambaro mu mutwe, yafashwe ifoto y'urwibutso igihe yari ari mu nama.

Umukandida w'ishyaka girini pati, Frank Habineza, mu ishati y'amabara y'umweru, afiteho n'amabara y'icyatsi, arimo aramamaza ishyaka rye girini pati, kugira ngo bazaritore.

Abaturage bafite amadarapo y'ishyaka riri ku buyobozi, FPR, bakaba bazindutse kugira ngo bamamaze umukandida w'ishyaka FPR Inkotanyi bambaye imipira y'ubururu, irimo amabara y'umweru ndetse n'umutuku.

Umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ari kumwe n'umufasha we, akaba arimo kurahira afashe ku idarapo, imbere ye hari perezida w'urukiko rw'ikirenga wambaye ikanzu y'umutuku akaba arimo kumurahiza.

Abaturage babukereye kugira ngo bifatanye mu bikorwa bigiye bitandukanye by'amatora, hakaba hari n'abayobozi batandukanye nabo baje kuyobora ibyo bikorwa kandi bakifatanyamo muri byo.

Umugabo wambaye ikote ry'umukara, ishati y'umweru ndetse na karuvati ya kaki, yicaye ahantu hasa ibara ry'icyatsi kugirango bamufate ifoto y'urwibutso.

PSD ishyaka kandi rikaba umutwe wa politike, rikorera mu Rwanda. Rikaba ryifuza kuzana impinduka haba mu buyobozi ndetse no mu mibereho y'abaturage b'igihugu cy'u Rwanda.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ifite ibara ry'ubururu ndetse n'umweru, ikaba iri mu muhanda nyabagendwa aho igiye gukata kugira ngo igeze abagenzi aho bagiye.

Umuhanda urimo ibinyabiziga byinshi bitandukanye, harimo iby'abantu ku giti cyabo, moto, ibitwara imizigo ndetse n'abantu bari kujya muri gahunda zabo zigiye zitandukanye za buri munsi.

Imodoka ya tagisi vatire ya yego kabuzi ikaba iri guca mu muhanda nyabagendwa kandi ifitemo abantu itwaye, ushobora guhamagara icyenda rimwe icyenda rimwe maze nawe ukabasha kubona tagisi vatire.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo ikinyabiziga cyifashishwa mu gutwara ibicuruzwa kizwi nka rukururana gisa ibara ry'umweru.

Ibiti biyungurura umwuka mwiza duhumeka, biteye iruhande rw'inzira nyabagendwa irimo gucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, higanjemo iby'abantu ku giti cyabo ndetse n'ibindi.

Parikingi iparikwamo imodoka zitwara abantu mu buryo bwa pirive, zizwi nka taxi voiture, zikaba ziparitse hafi y'umuhanda nyabagendwa ndetse hafi yaho, hari amazu maremare, akorerwamo imirimo y'ubucuruzi.

Ikamyo itwara ibikomoka kuri peteroli ifite ibara ry'umweru, ikaba iri kugenda mu muhanda nyabagengwa kugira ngo igeze peteroli kuri sitasiyo zose igemuyeho.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka yo mu bwoko bwa fuso itwara imizigo, kandi mu muhanda w'abanyamaguru hari gucamo umugabo wambaye umupira wa oranje.

Umuhanda munini kandi mugari w'icyerekezo kimwe, ukaba urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye harimo imodoka nini cyane ya purado randikuruza kandi hakabamo n'umugenzi uri kuri moto.

Bisi itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ikaba iri mu muhanda nyabagendwa, itwaye abagenzi ibajyana aho bagiye kandi inyura ku cyapa igafata n'abandi bagenzi bose bakajyana.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ifite ibara ry'umweru ndetse n'utubara tw'icyatsi kibisi, ikaba itwara abantu benshi icyarimwe kuko bamwe bagenda bahagaze, abandi bakagenda bicaye.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso, isize irangi ry'ubururu, ikaba iri mu muhanda nyabagendwa kandi harimo n'ibindi binyabiziga bitandukanye nka moto ndetse n'imodoka z'abantu ku giti cyabo.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga byinshi, harimo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, umuhanda kandi ufite amatara awumurikira kuko iyo bwije haba habona.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, higanjemo moto kandi bageze aho abanyamaguru bambukira hazwi nka zebura korosingi, barabanza bagahagarara kugira ngo abanyamaguru bambuke.

Imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, isa umweru, ikaba itwara abantu benshi icya rimwe kandi ikabageza aho bagiye, ikaba ibatwarira make kuko baba ari benshi cyane, bityo urugendo rukoroha.

Imodoka itwara abantu mu buryo bwa rusange nini cyane zizwi nka kebiyesi cyangwa shira umuteto, ikaba iparitse muri gare kugira ngo abagenzi nibaza ize kubatwara aho bagiye.

Umuhanda nyabagendwa ucamo ibinyabiziga bitandukanye imbere hari ikinyabiziga cyo mu bwoko bwa hoho gitwara ibikoresho ndetse n'ibyifashishwa mu bwubatsi kikaba gisize ibara ry'umutuku mu muhanda w'abanyamaguru hari umugabo ufite amajerekani abiri.

Umuhanda w'icyerekezo kimwe urimo ibinyabiziga, ukaba urimo imodoka yo mu bwoko bwa benze ndetse na moto zitwaye abagenzi, hiryaye yaho hari undi muhanda nawo w'icyerekezo kimwe.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye imbere hari imodoka yo mu bwoko bwa fuso itwara ibicuruzwa ndetse n'imizigo igiye itandukanye ikaba iyijyanye kuri nyirayo inyuma hari imodoka ya RAVA 4

Imodoka yifashishwa mu kwigisha abanyeshuri gutwara ibinyabiziga, ikaba iba ifite ibyapa byanditseho oto ekore, bimenyesha y'uko ari ikinyabiziga cyagenewe kwigisha.

Imodoka ya bisi itwara abagenzi mu buryo bwa rusange, iri kugenda mu muhanda nyabagendwa nijoro, umuhanda nyabagendwa ufite amatara awumurikira kandi buri mushoferi abasha kugenda areba neza iyo ajya.

Icyumba kigaragara nkaho hari ahantu bigira ikoranabuhanga, hari abagabo babiri ndetse hari n'undi utari kugaragara neza, umwe yambaye ishati y'iroze undi yambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara, imbere yabo hari amaterefoni menshi bigaragara ko bari kwihugura.

Imodoka yo mu bwoko bwa fuso iparitse imbere ya heregisi, heregisi ikaba itwara ibikoresho bigiye bitandukanye ndetse n'imizigo itarengeje toni eshatu.

Bisi nini cyane yifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, ikaba itwara abantu benshi icyarimwe kuko bamwe bagenda bicaye abandi bahagaze, iparitse muri gare itegereje abagenzi.

Imodoka zitwara abagenzi zikaba ziparitse hamwe muri gare kugira ngo zitegereze, iyo baje zirabatwara bitewe na buri umwe aho agiye kandi zibagezayo amahoro.

Ibinyabiziga bitandukanye byiganjemo moto zitwara abagenzi, zikaba ziparitse ahantu hamwe kugira ngo zibone abagenzi bajya mu byerekezo bigiye bitandukanye, bityo zibashe kubatwara.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga byinshi bigiye bitandukanye, higanjemo amatagisi matoya atwara abantu mu buryo bwa rusange ndetse na bisi nini cyane nazo zitwara abantu benshi icyarimwe.

Ahantu bacuruza inzoga zitandukanye bigaragara ko ari akabari, imbere hari televiziyo nziza nini ya furati, hakaba harimo amacupa menshi atandukanye y'inzoga, ikindi kandi hakaba hari udutebe twiza turi ku murongo ndetse n'ameza meza y'umukara bimwe bita kontwari.

Urujya n'uruza rw'abaturage bajya mu mirimo yabo ya buri munsi. Umuhanda nyabagendwa nawo uba ukoreshwa n'ibinyabiziga byiganjemo ibitwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse n'iby'abantu ku giti cyabo.

Imodoka yifashishwa mu gutwara abagenzi mu buryo bwa rusange, iparitse muri gare, aho ziba ziri zitegereje abagenzi kugira ngo zibajyane bitewe naho bagiye.

Hafi y'inyubako ya Makuza pisi puraza hari kafuri zone i Kigali, ikaba ishobora kuba iba irimo urujya n'uruza rw'abantu bagiye batandukanye kandi mushobora no kuhicara mukaruhuka mukaba mwahaganirira.

Abantu bicaye ahantu hamwe, hatemerewe kugerwa imodoka Kigali kafurizone, aho bicaye haratwikiriye kandi harubakiye, baratuje kandi bose bafite interineti y'ubuntu.

Urujya n'uruza rw'abantu bajya muri gahunda zabo zitandukanye, bari kunyura ahitwa na kigali car freezone, hakaba hatemerewe kugendwa n'imodoka kandi abantu bashobora kuhicara bakaharuhukira.

Inzira y'abanyamagare, aho abakoresha amagare bashobora kunyura bikaba ngombwa y'uko bahanyura bonyine nta kindi kinyabiziga kemerewe kuhanyura bituma bagenda bafite umutekano.

Igipangu cya senyenge, mo mu imbere harimo inzu yubakishije amabati, izi senyenge zirinda abantu batemerewe kuba bakinjiramo kuba bahegera kandi bikabafasha kuba bareba umutekano waho.

Icyapa cyo mu muhanda ishusho ni mpande enye, ibara ni umuhondo, ikirango kiba cyandikishije ibara ry'umukara, kimenyesha abatwaye ibinyabiziga y'uko mu muhanda munini imbere gatoya hari agahanda kava muri karitsiye kinjiramo.

Icyapa cya mpandeshatu kizengurutswe n'ibara ry'umutuku, ndetse ikirango kiri mu ibara ry'umukara. Kimenyesha abashoferi bose yuko imbere gato, hari imirimo y'ubwubatsi iri kuhakorerwa.

Umuntu wambaye ishati y'amaboko karuvati ya rujeborodo isaha y'umukara ku kuboko ari kuvugira muri mayikorofone birashoboka ko ari kuvuga ibyo uruganda rw'icyayi rwa Rutsiro rukora.

Umuhanda nyabagendwa uriho ibyapa bigiye bitandukanye byaba ibimenyesha abashoferi, ibiburira, ndetse n'ibibuza, icyapa kiri kuri uyu muhanda ni ikiranga ahantu bita kibugabuga.

Icyumba kigaragara nkaho hari ahantu bigira ikoranabuhanga, hari abagabo babiri ndetse hari n'undi utari kugaragara neza, umwe yambaye ishati y'iroze undi yambaye ishati y'umutuku irimo utubara tw'umukara, imbere yabo hari amaterefoni menshi bigaragara ko bari kwihugura.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho ya mpande enye, kikaba ikirango kiri mu ibara ry'umukara, hanyuma icyapa cyose kiri mu ibara ry'umuhondo, kikaba kimenyesha abashoferi yuko bageza aho banyura bazengurutse.

Icyapa cyo mu muhanda kiyobora, kimenyesha umushoferi yuko imbere gatoya hari ikorosi rikata iburyo, bityo agatangira kugenda atuje kandi yitonze bikamurinda gukora impanuka.

Icyapa cyo mu muhanda cya mpande eshatu, umuzenguruko ni ibara ry'umutuku, hanyuma ikirango kiri mu ibara ry'umukara, bikaba bimenyesha umushoferi yuko imbere hari zebura korosingi abanyamaguru bambukiramo.

Akazu k'umuhondo gakorerwamo n'isosiyete y'itumanaho mu Rwanda ya emutiyene, harimo umugabo uhagaze witeguye guha serivisi abaza bamugana zirimo; kubitsa, kubikuza, cyangwa kohereza amafaranga.

Ikimenyetso cyo mu muhanda kigizwe n'imodoka irimo umurongo w'umutuku, bisobanuye yuko nta kinyabiziga na kimwe cyemewe kuba cyatambuka cyangwa se cyaca aho ngaho.

Icyapa cyo mu muhanda, ishusho iri mu ibara ry'umukara, icyapa ubwacyo ni mpande enye, kikaba gifite ibara ry'umuhondo. Bisobanuye ko uri mu muhanda nyabagendwa, agomba gukata, agasubira aho avuye.

Ibyapa byo mu muhanda icyapa kibanza kigizwe ishusho mpande eshatu, umuzenguruko ibara ry'umutuku, ikirango kikaba kiri mu ibara ry'umukara, kikaba kimenyesha ko hafi hari ikibuga cy'indege, icyo munsi cyo nacyo n'impande eshatu.

Icyapa kiri mu ishusho y'ubururu kandi ikirango cyandikishije ibara ry'umweru kiho inyuguti ya pi isobanuye parikingi ahantu bisi zishobora kuba zahagarara zigashyiramo abagenzi.

Icyapa cyo mu muhanda kiri mu ishusho y'umuhondo hanyuma ikirango ni mu ibara ry'umukara, kimenyesha ko umuhanda uri imbere ugikomeza ugana imbere cyane.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, kuhande niho haba hateye ibyapa bimenyesha abatwaye ibinyabiziga, hakaba hari icyapa cyerekana yuko imbere gato hari ikorosi, umushoferi agomba kwitonda.

Icyapa cyo mu muhanda cyerekana umuhanda munini, yuko iyo igeze imbere winjirwamo n'umuhanda mutoya, abashoferi iyo bakibonye, baba bagomba kugenda bigengesereye kugira ngo badateza impanuka.

Icyapa kiri mu bitegeka, kikaba gisobanuye yuko nta munyegare wemerewe guca aho hantu, bitewe n'uko ari mu byago kandi hateje akaga, abanyonzi cyangwa se abatwaye igare bose bagomba kubyubahiriza.

Icyapa cyo mu muhanda ishusho ni mpande enye, kikaba gifite ibara ry'umuhondo, ikirango cyo kiri mu ibara ry'umukara, kimenyesha umushoferi ko imbere gato umuhanda uva muri karitsiye uhura n'umuhanda munini.

Inzu zikorerwamo n'uruganda zikaba zifite amabati y'umutuku kandi zubakishije amatafari ahiye, zifite n'amadirishya manini cyane ateye ahagana hejuru.

Inzu ikorerwamo ,ibikorwa bigiye bitandukanye by'ubucuruzi ,urugero nka farumasi, serivisi za banka, serivisi z'ubwishingizi, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye.

I Kigali mu Rwanda, Kibagabaga, hakaba hari amazu meza cyane yagiye afotorwa, ariko akaba amenshi atararangira, ni amazu ageretse inshuro zirenga enye cyangwa eshanu.

Umuhanda nyabagendwa uca hagati y'ibipangu by'abaturage. Igipangu kiri hepfo, kirimo ibiti byiza cyane biyungurura umwuka duhumeka kandi gisize ibara ry'umuhondo.

Aha hari uruhurirane rw'abantu bigaragara ko hakorerwa ibintu bijyanye no gucuruza, murahabona karoti, ibijumba, imyumbati y'ibirayi, intoryi, pavuro, imiteja, urusenda n'ibintu byinshi murimo kubona mu mukabona k' inyuma naho hari gucururirwa ibindi rwose murabibona neza cyane ko aha isoko rinini kandi rigari.

Parike y'inyoni, hari inzu ifite ibirahure bya fime kandi ku kabaraza hari intebe ushobora kwicaramo uruhuka, hateye jaride irimo indabyo nziza ndetse n'ibiti biyungurura umwuka.

Moto iri mu muhanda nyabagendwa itwaye amacupa abiri ya gaze, hafi y'umuhanda hateye ibiti binini by'imikindo kandi hari urujya n'uruza rw'abaturage.

Inyubako ndende igeretse gatatu, ikorerwamo n'ibigo by'ubucuruzi bikurikira, Radiyanti inshuwarensi, Rapiti sapoti fayinanshingi, Ekwiti Banki, Mowa inshuwarensi n'izindi zigiye zitandukanye.

Inzu ndende cyane igeretse inshuro umunani, ikoreramo ibigo by'ubucuruzi bigiye bitandukanye, urugero nka Berona ikorera mu muryango, imiryango yose yo hasi kandi imbere y'iyi nzu hateye ubusitani bwiza cyane bunogeye ijisho.

Inzu ifite amabati y'umutuku agaragara nkaho ashaje ikaba ifite antene ya kanari purisi kuburyo bareba umupira uko babishatse iri mu gipangu kiri munsi y'umuhanda

Igipangu cyubakishije amatafari ya ruriba kandi hejuru yacyo hazengurutswe na senyenge ku buryo abajura batapfa kucyurira, hafi yacyo hari ibiti byiza cyane by'avoka ndetse n'iby'imyembe.

Urujya n'uruza rw'abaturage bajya muri gahunda zabo zitandukanye, bakaba bari guca muri santere y'ubucuruzi, ikorerwamo ubucuruzi bugiye butandukanye, harimo n'amaresitora, abamotari baparitse kugira ngo bajye muri resitora.

Ni kwa muganga imbuga yaho isashishije amapave hari ubusitani kandi burimo ibiti birebire n'indabyo ngufi ya hari parikingi iparitsemo imodoka imwe y'umukara n'imodoka ebyiri zishinzwe gutwara abarwayi.

Inyubako ndende cyane, iriho hejuru iminara itanga sinyari zigiye zitandukanye kandi buri muturage agakoresha enterinete. Munsi yayo hari serivise zitandukanye z'irembo.

Inzu zitandukanye, ziri mu gipangu kimwe. Ibanza ni inzu ya kadasiteri, ifite amabati y'umukara. Iyiri inyuma yo igereretse inshuro imwe, ikaba isize amarange y'umweru.

Amazu agiye atandukanye, yiganjemo ageretse ndetse n'aya kadasiteri, yose icyo ahuriyeho afite amabati, adasa umuhondo, arasa umutuku, abaturage bo muri uyu mujyi bakunda ayo mabara.

Inyubako ndende igeretse inshuro nyinshi, ikaba ikingishijwe ibirahure bya fime kandi ikorerwamo imirimo igiye itandukanye y'ubucuruzi kandi abantu bayikoreramo bose bakora neza.

Umuhanda nyabagendwa hafi yawo hari resitora abantu bashobora kuba baririramo, mu gihe bahuye n'ikibazo cy'inzara kandi hari ibiti byiza biyungurura umwuka duhumeka bibereye ijisho.

Umuhanda urimo imodoka zitari nyinshi iy'umutuku inyuma, imbere hari izindi n'amamoto hepfo tukabona urukamyo runini cyane bisa nk'aho ari rwarundi ruterura izindi, mu muhanda tukabonamo icyapa kiriho umweru tukabonamo amapoto rwose y'amatara amurikira umuhanda.

Kantine kandi ikaba ifite ibikoresho bigiye bitandukanye ikaba itanga serivise nziza kandi zinoze, bafite ibyo kurya, ibyo kunywa bitewe nibyo wifuza ushobora kubibona.

Umuhanda w'icyerekezo kimwe ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye kandi harimo n'inzira y'abanyamaguru, hari n'umupolisi ushinzwe umutekano wo mu muhanda.

Umuhanda nyabagendwa, ucamo imodoka zigiye zitandukanye. Hirya yawo hari ishyamba rigari, ririmo ibiti bigiye bitandukanye, kandi bikaba biyungurura umwuka mwiza duhumeka.

Umuhanda uva muri karitsiye ugenda ukinjira mu muhanda nyabagendwa mukuru, hepfo yawo hari ishyamba riteyemo ibiti byinshi biyungurura umwuka.

Umuhanda nyabagendwa, ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye higanjemo ibinyabiziga by'abantu ku giti cyabo, ndetse n'imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange. Haba harimo n'aho kwambukira kw'abanyamaguru.

Umuhanda w'abanyamaguru ndetse ufatanye n'aho abantu bashobora kuba baparika ibinyabiziga byabo bakaza no kubihasanga, hirya yaho hari umuhanda nyabagendwa ucamo ibinyabiziga bitandukanye.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga byiganjemo ibitwara ibintu, ni ukuvuga amakamyo manini yo mu bwoko bwa fuso, hafi y'uyu muhanda hari icyapa kinini gishobora guparikwamo n'imodoka.

Umuhanda nyabagendwa w'ibyerekezo bitandukanye, urimo ibinyabiziga byiganjemo moto, uyu muhanda kandi ufite amatara awumurikira mu gihe bwije bityo abatwaye ibinyabiziga bakagenda babona neza.

Umuhanda nyabagendwa umwe uca hejuru y'undi ikagabanya ambutiyaje kandi yose icamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye. Iyi mihanda yombi ifite amatara ayimurikira iyo bwije.

Umuhanda nyabagendwa unyuramo ibinyabiziga bijye bitandukanye, ukoze neza cyane kandi uhora usukuye kuko bawukubura buri gihe, ukikijwe n'ibiti byiza biyungurura umwuka duhumeka.

Umuhanda nyabagendwa ukoreshwa cyane umwe uca hejuru undi ugaca munsi bikagabanya ambutiyage y'imodoka hafi yaho hari parikingi

Umuhanda usukuye kandi usa neza kuko bawukubura buri munsi. Ukaba ari umuhanda nyabagendwa w'ibyerekezo bitandukanye, iruhande rw'umuhanda hateye ibiti byiza, n'ubusitani bwiza.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibinyabiziga bitandukanye, byiganjemo moto ndetse n'amagare, hirya yayo hakaba hari ibiti byiza cyane, bikaba biyungurura umwuka mwiza duhumeka.

Umuhanda w'icyerekezo kimwe urimo imodoka zigiye zitandukanye, ruguru y'umuhanda hari aho hacururizwa imodoka kandi uyu muhanda ufite amatara meza cyane awumurikira.

Umuhanda nyabagendwa, uca hejuru y'uwundi, ukaba uherereye ku Kinamba, ukaba ari umuhanda w'icyerekezo kimwe. Munsi yawo hacamo undi muhanda nawo munini w'icyerekezo kimwe.

Umuhanda nyabagendwa w'icyerekezo kimwe. Ukaba ufite amatara awumurikira kugirango ibinyabiziga, ndetse n'abagenzi bawukoresha nijoro bagende babona. Kandi hakaba hari n'ibiti byiza cyane biyungurura umwuka duhumeka.

Umuhanda nyabagendwa urimo ibiti byiza cyane binogeye ijisho, unyurwamo n'ibinyabiziga bigiye bitandukanye, byaba iby'abantu ku giti cyabo, imodoka zitwara abagenzi ndetse n'ibindi binyabiziga.

Umuhanda nyabagendwa uriho aho abanyamaguru bambukira, hazwi nka zebura korosingi, kandi harimo ibinyabiziga urugero nka moto, hari kandi abanyamaguru bari mu muhanda.

Umuhanda nyabagendwa ucamo ibinyabiziga bigiye bitandukanye, iyo bwije umurikirwa n'amatara aba yarashyizwe ku muhanda bityo abantu bakabasha kugenda bareba neza aho bajya.

Umuhanda nyabagendwa ucamo ibinyabiziga byo mu cyerekezo kimwe. Harimo; moto ndetse n'imodoka. Umuhanda kandi uba ufite amatara awumurikira ninjoro, kugirango abawukoresha bagende babona.

Umunara muremure cyane w'itumanaho uri mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru bigaragara ko ari uwa eyateri hahagaze abatekinisiye bane bigaragara yuko bari gusobanurira aba bantu uko uyu munara ukoreshwa aha bantu bari gusobanurira bambaye amajire y'umutuku.